Kamera ebyiri ziri kureba mu byerekezo bitandukanye. Kamera ni igikoresho gikoreshwa kugira ngo hafashe amavidewo ,cyangwa se amafoto yo kugirango ngo azifashishwe mu gihe azaba ari ngombwa ,kenshi na zikoreshwa mu mutekano cyangwa se mu mihanda.

Inzu nini y'uruganiriro itatswe ibitambaro imbere by'umuhondo, ubururu ndetse n'icatsi. Imbere hariho abayobozi bane, abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, noneho hakabaho n'abaje gutega amatwi inama akubiyemo ingeri zose.

Abapolisi bane bashyizwe mu ruziga, hari abaturage na bo barimo kumva amabwiriza bari kugenda babaha, ni abapolisi bo mu muhanda bakuriwe n'umupolisi afande uhari, ari kugenda ababwira inama, ababwira, abaha amabwiriza bagomba kugenderaho ndetse abaha n'inama, itubu ni uburyo bukoreshwa kugira ngo higishwe cyangwa se hatambutswe mesaje runaka mu gihe...

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari kujya ku bigo by'amashuri ndetse n'abandi bantu bari kujya mu kazi; bageze kuri zeburakorosi aho bambukira polisi y'u Rwanda ikaba iri kubaha amabwiriza y'uburyo bakoresha umuhanda.

Abapolisi bambaye udupfukamunwa barimo barareba undi mupolisi urimo guteka kuri gaze ariko isafuriya irimo kwaka. Ubu ni uburyo bwiza bakoresha kugira ngo bigishe abantu ibijyanye n'uko gaze ikora.

Abapolisi barangije ishuri barimo gukora karasisi，bambaye impuzankano ya polisi， bakaba bambaye na ga ndetse bafite n'inkota， abakobwa bakaba barangije icyiciro runaka， abinjiye mu kindi cyiciro uko bigaragara bakaba barimo barasoza ayo mahugurwa cyangwa se iyo myitwarire bamazemo igihe.

Abapolisi n'abasirikare n'umuntu utambaye iniforume bari kureba imodoka iri hejuru y'umwobo. Muri uwo mwobo harimo umuntu ufite itoroshi, iyi modoka iri mu igaraje, aho iri kurebwamo ndani.

Umukino wo koga mu mazi bari gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'abatoza babo aho bafite ibikoresho bakoresha bakina uwo mukino ndetse bakaba bari kumwe n'abayobozi b'inzego z'umutekano abasirikare babiri.

Abantu bakubiyemo abana, bashagaye polisi y'u Rwanda yo mu muhanda, ikaba irimo yandika ku modoka, yandikira imodoka cyangwa se igenzura ubuziranenge bw'imodoka, ndetse n'imitwarire yayo. Abapolisi batatu bagaragiye undi mupolisi mu byo arimo akora arimo yandika ku gapapuro ku kirahure. Ubu akaba ari uburyo bukunze gukoreshwa iyo bandikira umuntu wishe amategeko y'umuhanda.

Ikirangantego cya guverinoma y'u Rwanda gikubiyemo ingano zijya iburyo n'ibumoso. Gikubiyemo ikawa ,ndetse hakaba harimo n'agaseke. Ndetse hakaba harimo n'inkota iburyo n'ibumoso. Hakaba ikirangantego cya guverinoma y'u Rwanda.

Inkongi y'umuriro yateye mu baturage aho hari gushya inzu z'abaturage ndetse hakaba hari n'ubutabazi bw'ibanze buzanye kizimyamoto. Iyi modoka ya kizimyamoto iri mu mabara y'umutuku ibi bikaba bigezwa kugira ngo hazimye iriya nkongi y'umuriro yibasiye kariya gace.

Abaturage hakubiyemo abantu batandukanye, bigaragara ko ari ababyeyi bari baje mu nama y'abanyeshuri bari ku kigo cy'amashuri, bakaba bafata ifoto y'urwibutso n'abayobozi, kugira ngo hajye habaho kwibuka ko iyo nama yigeze kuba, hanibukwa n'imyanzuro yafatiwemo.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'umutuku, zifite amaguru y'umuhondo, bicaye mu ruziga mu nziga nyinshi zitandukanye.

Icyumba cy'inama cyangwa se sale, ikubiyemo abantu benshi. Irimo abana benshi, abagabo, abagore ndetse n'ingeri zitandukanye. Bakaba banafite buri wese icupa ry'amazi, bari kugenda banywa mu gihe barimo bakurikira uwari kubagezaho ibiganiro, uri imbere yabo. Umugabo, akabaho n'undi wicaye wambaye imyenda y'umutuku.

Aba mama bari mu nama, hari umumama umwe ufashe mikoro uri gutanga igitekerezo arebera muri telefone, undi mumama ari kumureba cyane, ndetse abamama buri wese afite imbere ye agacupa k'amazi.

Abantu benshi cyane bakurikiye inama harimo; abagore bicaye barambirije biteze udutambaro ndetse n'abagabo bicaye amavi akoze ku maboko yabo.

Abana bambaye iniforume y'igitaka hasi, hejuru bambaye amashati y'ubururu, bafite imirishyo mu mabokoko yombi, bari kugenda bakoma ingoma bagenda bavuza ingoma, buri wese akaba avuza ingoma ye.

Icyatsi cyaranze hasi, kandi kikaba gifite indabo z'umweru, akaba ariho bagisarura indabo z'umweru, bishoboka ko ari ibireti, cyangwa se ikindi gihingwa icyo aricyo cyose, cyangwa se ibirayi bitarageza igihe cyo kwera.

Igicuba ndetse n'igisabo akaba ari ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya amata, urugero nko kuyabika ndetse no kuyanywa. Akaba ari ibikoresho byifashishwa cyane cyane n'abageze mu za bukuru cyangwa se abantu bagifite umuco gakondo cyangwa se nyarwanda.

Ikadere ishushanyijeho umumama wambaye amaherena y'umweru, urunigi rw'umweru ,yambaye umwenda uhishe umubiri we kugeza ku gituza cye ,afite umwana arimo guhoza.

Ziponze akaba ari ibiribwa kenshi na kenshi byifashishwa kugira ngo hakorwemo ibindi. Urugero gukora amasambusa cyangwa se gukora sosiso ibingibi bikaba byifashishwa cyane kuko ari inyama ziba ziseye, kugira ngo zikorwemo ibindi biribwa byo kurya.

Ubu ni ubwoko bw'amatungo akunzwe mu Rwanda inka z'inyambo, inka z'inyambo n'inka zigira amahembe y'umweru, amahembe agandaye kandi akenshi na kenshi zikaba ziri mu bara ry'ikijuju, zitanga umukamo uhagije, kandi zikaba zibyara n'inyana zishitse.

Igisabo kijishijwe ni igisabo ni igikoresho gikoreshwa, mu kubika amata aho ushyiramo amata y'inshyushyu noneho agaterekwa, agacungwa kugira ngo abayanywa bayanywe afite ubuziranenge, akaba ari igikoresho gakondo, kifashishwa mu gutegura amata y'ikivuguto.

Ababaji karemano babiri b'abagabo, bakaba bafite ibikoresho byabugenewe, urugero nk'igikoresho gikora nk'inyundo, ndetse bakaba bafite n'umuhoro, na none bakaba bafite umusingi bagenda baharuza igiti, kugira ngo bagikuremo ishusho bashaka.

Isahani ndetse n'ikiyiko bya Kinyarwanda ,akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gikoni ,ndetse no gufata amafunguro , impamvu ari bya Kinyarwanda ni uko ari ibikoresho bibajwe mu giti, ntabwo ari ibyuma nti byabanje guca mu ruganda ,ahubwo ni ibikoresho gakondo bikorwa n'abanyarwanda bitabanje guca mu ruganda.

Abanyeshuri bambaye iniforome y'ubururu, hasi ndetse n'amashati y'umweru ndetse hakabaho n'umushumba wambaye imishanana y'umweru, n'umukara n'ingofero akaba afite n'inkoni mu ntoki, bagaragiye inka y'inyambo ifite amahembe manini, iyi akaba ari inka, zabagaho kenshi na kenshi kera zikaba atari nyinshi, akenshi na kenshi abantu bajya kuzisura kugira ngo bamenye umuco nyarwanda.

Umwami wambaye umukenyero w'umweru urimo uturabo tw'umutuku, akaba yambaye n'ibitambaro bifite imishwanana mu maso y'umweru ,ndetse n'ibisatsi byinshi biguye inyuma bikozwe mu mugwegwe.

Inka zifite amahembe manini cyane, z'umukara zambaye amaherena ,zambaye n'urunigi rw'umweru, zizwi nk'inyambo zibyagiye mu rwuri.

Igisabo kijishijwe. Igisabo kijishijwe cy'umutuku, ndetse iki gisabo kikaba gihambirijwe imigozi ari yo injishi, kikaba ari uburyo kibikwamo, aho iriya njishi imanikwa ku kintu hejuru kuko ntabwo kijya kibikwa hasi.

Inzu imeze nk'umutemeri, isakarishijwe isakaro ry'ibyatsi, ifite akadirisha kamwe, iri ahantu imbere y'amakoro atondetse ndetse no munsi y'igiti.

Abagore batanu ndetse n'umukobwa umwe barimo barigisha uwo mukobwa kuboha. Akaba ari uburyo bigishwa abana batoya, kugira ngo bakure bazi imirimo imwe. urugero nko kuboha ndetse no kudoda hakoreshejwe urushinge.

Agacuma kajya gusa umutuku karimo n'umuheha wako. Iki gikoresho akaba ari igikoresho gakondo cyifashishwa mu gihe hanyobwa urwagwa, umusururu se, cyangwa se umutobe cyangwa se amakaci.

Ibikoresho bya gakondo, ibikoresho na n'ubu bigikoreshwa n'abaturarwanda hakubiyemo: inkoko, hakubiyemo agaseke, igicuba, igisabo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuhini uri mu sekura yayo. Isekururo ni igikoresho gakondo gikoreshwa kugira ngo hasekurwe ibintu bitandukanye. Urugero, nk'imyumbati kugira ngo havemo ifu, kugira ngo hatekwe isombe, ndetse n'ibindi byinshi, akaba ari uburyo bwakoreshwaga mu gihe hatari hakaje iterambere ryo gukoresha amamashini.

Umugore upfukamye ufashe urusyo urimo gusya, ari gusya ifu. Ubu bukaba ari uburyo bwakoreshwaga nabo hambere mu gihe babaga bashaka kuvana ifu mu bihingwa babaga barahinze, urugero iyingano, soya se cyangwa se ibigori.

Inzu zubatswe mu bibambano ,ni irembo, aha akaba ari inzu y'umwami izwi nk'ingoro, izi nzu ni zo abami babagamo, imbere yaho hari ho akantu gasa nk'umutuku, ka tapi akaba ariho ba basohokeragaho.

Abakobwa n'abasore b'itorero, barimo barabyina umuco nyarwanda, abakobwa bambaye impuzankano hasi y'icyatsi, ndetse bakaba bambaye hejuru umuhondo, nanone bambaye udutambaro turi mu mitwe yabo, abasore mu gihe bambaye impuzankano hasi y'igitaka, bakaba bafite n'ingabo mu ntoki ndetse n'ibicumu ndetse n'imisatsi.

Igikoresho cy'inanga, igikoresho gikoreshwa kugira ngo habonwe umuziki gakondo cyangwa se amajwi yifashishwa mu gukora indirimbo gakondo zigiye zitandukanye.

Intoki eshanu ziri guranga umuduri, cyangwa se inanga. Igikoresho gikoreshwa mu muco gakondo, mu gukora amajwi y'indirimbo.

Umumama wambaye igitenge urimo arasya, akoresheje uburyo gakondo, ubwo ni kuvuga urusyo ndetse n'ingasire. Na none akaba arimo arasya yapfukamye ku musambi, akaba ari hafi y'isekuru, intara ndetse n'umuvure. Ibi bikaba ari ibikore gakondo bikoreshwa n'abanyarwanda.

Intore, ababyinnyi ba kera aho babaga bafite amacumu mu ntoki, bakanabyina bafite imisatsi ndetse bo bakaba bambaye inshwabure ndetse n'amayogera mu maguru.

Umugabo wambaye amadarubindi wambaye na karuvati, ishati y'umweru n'ikoti y'umukara, afite umuduri igikoresho nyarwanda cyifashishwa akora amajwi y'indirimbo zitandukanye.

Umugabo uri gukama akoresheje amaguru, inyuma ye hari abagore benshi bamushagaye bari mu rutoki. Umugabo ari gukama afashe ku biti bibiri iburyo n'ibumoso hari undi mugore uri kugenda amushyiriramo ibyatsi byo gucundagura.

Umusaza urimo kunywa itabi ageze mu za bukuru. Akaba ari kunywa itabi akoresheje inkono afite n'inkoni mu maboko ye, ndetse akaba yambaye ubusa hejuru akaba anambaye.

Igihingwa cy'amajeri, amajeri yumye. Amajeri ni igihingwa gihingwa ahantu h'imisozi miremire cyangwa se ahantu h'ubukonje. Amajeri ashobora kwifashishwa mu gutegura amafunguro urugero mu kuyavanga n'ibitoki, ibirayi ndetse hari naho akora nk'ibishyimbo, akaba ari ibiryo kenshi na kenshi bikorwa n'abakuze.

Umweyo w'inshinge ukoreshwa akuburwa ahantu hari ubutaka. Ufashwe n'igitambaro gisa n'umukara umweyo usa nk'igitaka.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa urimo umurika ikirago, ikirago akaba ari igikoresho gikoreshwa mu kugira ngo gisaswe hasi noneho abica bicare kugira ngo kitaba igitaka kitanduza imyenda yugiye kwicara hasi.

Abakobwa bambaye imikenyero biteze udutambaro mu mutwe dufite umubyimba muto. Bari gucuranga ingoma, bari gukubita ingoma bafite imirishyo mu maboko yombi.

Abakobwa babyina umuco nyarwanda, bambaye inshwaburi bikoreye uduseke, bambaye inshwaburi z'umutuku ndetse n'udupira tw'umweru, bari kubyina mu kinyarwanda, bimenyerewe ko mu Rwanda abakobwa nk'aba, baba bageze mu kigero cyo guhera ku myaka cumi n'ibiri kuzamura.

Ibikoresho gakondo byifashishwa benga urwagwa ni umuvure ndetse n'udutanda ubutanda buteretse hejuru y'umuvure. Udutanda n'umuvure ni ibikoresho bikoreshwa n'abanyarwanda kugira ngo habe kugirango babashe kubona umutobe bivuye mu gukama ibitoki.

Abasore b'intore bambaye hasi umweru bakaba bafite n'ingabo y'umweru n'umukara bafite n'icumu, uruti rw'icumu, ariko na none bakaba bambaye imigongo mu gatuza kabo, bakaba bambaye na none mu musatsi wabo bakaba bambaye imigwegwe. Akaba ari ibikoresho byose bikoreshwa mu mbyino gakondo y'u Rwanda.

Umuduri . Umuduri ni igikoresho cyifashishwa mu gihe bakora amajwi y'indirimbo gakondo ndetse n'izubu ngubu ukaba ukenerwa ariko bitari cyane umuduri ni igikoresho cyabaga gifite imishumi cyangwa se rasoro zo gucurangira ho zatangaga amajwi aranguruye y'ubwoko butandukanye.

Abagore babiri barimo baboha ikirago, ikirago akaba ari igikoresho gakondo cyifashishwa nk'umukeka wo muri iki gihe, aho gisaswa hasi, noneho abantu bakaba bicara kugira ngo batiyanduza. Nanone bari kukiboha ahantu hegereye ishusho, ishusho akaba ari ibiryo biribwa cyane, kuko babikuramo imboga zo kurisha indisho runaka, ndetse bikorwa n'abaturage bo mu cyaro.

Umuraguzi cyangwa se umucuraguzi, akaba ari abantu bizerera mu mbaraga zabo z'abakurambere, aho bahamagara abakurambere kugira ngo baza babafashe ibintu runaka cyangwa se babakemurire ibibazo runaka.

Itorero rikubiyemo abakobwa n'abahungu babyina imbyino nyarwanda .iri torero rikaba rifite abahungu bambaye imikenyero y'umukara ndetse hejuru umweru. Bakaba barimo kuvuza ingoma, hakaba n'abakobwa bambaye incwaburi z'umutuku ndetse n'amayugi. Amayugi akaba ari ibyuma bambara mu kaguru kugira ngo bibashe kuvuga.

Intore y'umusore, intore irimo ihamiriza iseka ,intore yambaye agatuza hejuru, intore yambaye imigongo ikambara n'imisatsi, ni ukuvuga imigwegwe, intore yambaye hasi umukara n'umweru, akaba ari imbyino gakondo, imbyino ikunda kubyinwa n'Abanyarwanda bo hambere, cyangwa se abagifite umuco gakondo.

Aba mama barimo gutangira kuboha agaseke, iyi ukaba ari umuco umenyereweho n'abamama bakuze, aho baba barakoze, bazi imirimo gakondo nko kuboha, kugosora se, ndetse n'indi mirimo iba itandukanye.

Agaseke k'umutuku, agaseke ni igikoresho cy'umuco nyarwanda. Gikoreshwa mu ibirori bitandukanye, haba kukabyinana ndetse no kugatwereramo intwererano, igihe wabaga ujyanye icyo ushaka ku nshuti yawe. Cyangwa se bakadukoresha nk'umutako wo muri salo.

Itorero ririmo rirabyina, hari abakaraza bambaye imyenda y'imikenyero y'umukara n'umweru, bakaba bari gukoma ingoma ndetse n'abakobwa bambaye umutuku n'umweru, kandi hari n'abambaye umweru udekeye cyane bakambara n'ikijuju hejuru, bakaba ari itorero ribyina umuco nyarwanda.

Abakobwa n'abahungu bari mu bukwe bwo gusaba ndetse no gukwa, kuko imyambaro bambaye irabigaragaza cyane. Ni abahungu batanu bambaye imikenyero y'umweru, ndetse n'inkoni ndetse n'abandi bakobwa batatu ku ruhande rw'ibumoso na babiri iruhande rw'iburyo. Ibi bikaba byambarwa mu bukwe bwo gusaba ndetse no gukwa.

Abasore n'inkumi bari kubyina umuco nyarwanda imbere y'ingoro. Baba bari kubyinana inkoni ndetse abahungu bakaba bafite n'ingabo mu kaboko kabo k'ibumoso, ndetse abakobwa bari kubyina bambaye imikenyero y'umweru n'udupira tw'umutuku.

Telefone ifite igiposhete cya oranje, ikaba iri kwandikwamo pasiwadi, pasiwadi ni umubare w'ibanga w'umuntu, kugirango abashe gukomeza gukoresha iyo terefone.

fizibure, fizibure ni agakoresha ka eregitoronike, gakoreshwa kugira ngo gatume itara ryaka cyangwa se barizimye. Fizibure y'umweru akenshi na kenshi zikaba zikoreshwa mu gihe ko mu byumba, aho amatara akunda kuzimya cyane cyane.

Icyuma gikontorerwamo ukugenda no kuza k'umuriro, ni icyuma bakupiraho ndetse bakanacumekeraho umuriro mu gihe hakiza icyaha bikaba bibona.

Igikoresho cya elegitoronike gikoreshwa mu muriro, akaba ari igikoresho cyo gucomekaho sharijeri, kikaba gifite abavoliteje porotegita ingana na cumi na gatatu , itandatu ammpa kikaba nano gifite ibintu bikubiyemo porotegishoni pi tayime ofu oru onu.

Igikoresho cya legitoronike kizwi nk'umurasire. Uyu murasire akaba ari igikoresho kimanikwa hejuru y'inzu kugirango gikurure izuba, noneho izo ngufu kizibyazemo ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Bukaba ari uburyo bukoreshwa cyane cyane ahantu hataragira amashanyarazi y'icyaro, kugirango abahatuye babashe gucana.

Umugozi wa yuwezibi, Uyu akaba ari wo mugozi ukunda gukoreshwa na mashine, kuko uyu mugozi ugiramo kontorora y'umuriro ku buryo umuriro udashobora kugenda ari mwinshi ngo ugere kuri mashine, ahubwo ikawugabanya.

Urusengero rwa adeperi rukaba ari urusengero rukoreshwa n'abafite imyizerere ya gikiritsu basengera maradeperi, akaba ari paruwasi ya Jenda, itorero rya Ruhengeri, ururembo rwa Rubavu

Amapiloni manini afite insinga, amapiloni yagiye yubakwa hari udupiloni duto duto tugiye twegeranye dufite ibyuma ndetse tuba tunyuzemo n'insinga nyinshi, ibyo ibyo bipiloni kandi bikaba byubatswe ahantu hari beto.

Umugabo uri gukora igitanda; igitanda gicomekwa, kigahinduka intebe; igitanda gishobora no guhinduka amadive yo muri saro akaba ari intebe zigezweho, kuko zitwara ahantu hato kandi zigakora imirimo itandukanye; igitanda gifite imifariso y' umutuku.

Ubu ni ubwoko bw'inzu akenshi na kenshi bwubakwa mu gace k'amajyaruguru y'igihugu. Ni ukuvuga mu Karere ka Musanze, aho iyi nzu yubakishijwe amakoro ndetse na sima. Amakoro ni amabuye ava mu kuruka kw'ibirunga, ibizwi nka ma guma, aho biba bifite ibuye rikomeye cyane ritapfa kumeneka.

Jaba herifu posite, ni inzu yubatswe hifashishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati asa nk'umutuku, akaba ari inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima; haba gusuzuma abarwayi, gutanga imiti ndetse n'ibindi bikorwa bikenerwa kwa muganga byoroheje.

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye ndende zisakajwe amabati y'umutuku, akaba ari inzu zifite imiryango myinshi, ndetse zikaba zifite ibigega bifata amazi. Ubu buryo bukoreshwa na leta y'u Rwanda kugira ngo abatuye mu manegeka cyangwa se abasenyewe n'ibiza cyangwa se abadafite ubushobozi bwo kubaka inzu nziza babe bashyiramo umuryango, aho inzu iba irimo imiryango irenze umwe cyangwa se umwe.

Abubatsi barimo baragenzurwa n'abayobozi ku mashuri agaragara bari bamaze kubaka, bari bambaye impuzankano y'icyatsi y'amajiri ndetse n'ingofero za bubatsi. Aba bayobozi bakaba banambaye igikoresho cyo mu mutwe cyifashwa kugira hirindwe agisida zo mu mutwe bari kumwe n'umudaso wambaye iniforume ye ya daso.

Inyubako nini cyane, inyubako itaratangira gukorerwamo igikorerwa amasuku, kugira ngo batangire bayikoremo. Ni inyubako nini kandi ni inyubako itari ku murongo kuko iyi yubatse shusho ya...

Ibiro by'abayobozi bifite intebe imbere, bifite n'inzugi z'umweru ebyiri ziriho banderore yabyo n'idirishya ry'umweru, imbere y' iyo nzu hariho igitaka.

Urusengero runini cyane rwifashishwa n'abakristu basenga, akaba ari kiliziya, kiliziya ni urusengero rwifashishwa n'abakristu gatolika bajya gusenga. Imbere yaho turahabona ishusho ya Bikira Mariya urambuye amaboko ku muryango w'iyo kiliziya nini cyane, iri mu ma yubakishijwe amatafari y'umuhondo.

Abantu bahagaze ku rubaraza rw'inzu n' abandi bahagaze mu muhanda bafite impamvu yo gupfuka umunywa, bigaraga ko ari ubwirinzi bw'icyorezo cya Kovidi cyangwa se iyindi ndwara yose yandurira mu buhumekero.

Inzu isakajwe n'amabati y'ubururu afite utuntu dutatu dusa nka nk'urukiramende. Iri ahantu hari ishusho y'imvura y'igicu gifite imvura igiye kugwa.

Ni ubusitani burimo indabo zitandukanye ndetse n'igiti. Indabo z'umuhondo n'iz'icatsi ndetse na pasiparumu biri imbere y'igipangu kiriho akazu k'umweru, gifite umuryango w'igitaka. Mo ndani harimo inzu zubakishijwe udutiyo tw'ibyuma n'amabati y'ubururu.

Umuhanda ufite igice kimwe cya kaburimbo, iruhande rwayo hariho ibyatsi bisanzwe, ndetse hakaba hari n'akandi gahanda kawushamikiyeho kariho amabuye atatu imbere yaho.

Inzu ebyiri, inzu zubatswe mu buryo bwa kera zifite amabati yakerebeye, ndetse ni inzu zifite imiryango myinshi, zikaba ziherereye mu ishyamba. Izi akaba ari inzu akenshi na kenshi zubakwa mu gice cy'Amajyaruguru y'igihugu.

Inzu nyinshi, harimo inzu ndende ya etaje, ifite ubuso bunini, iri ahantu mu misozi. Inyuma yaho, hari amashyamba menshi. Inzu higanjemo inzu zifite amabara y'umutuku, ndetse n'uduhanda tugiye dukata mu makaritsiye y'aho izo nzu ziri.

Urusengero rwa eglize katolike, uru rusengero rukaba ari urusengero rwifashishwa n'abayoboke b'idini ya eglize, uru rusengero kandi ruri mu mabara y'icyatsi ku nzugi ndetse no ku madirishya, rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye bigaragare ko uru rusengero rumaze igihe kirekire.

Urusengero runini cyane, urusengero rufite umusarababa, hari n'ahantu h'umugi hejuru rusakaje amabati y'umutuku, akaba ari urusengero uko bigaragara rushobora kuba ari urwa ADEPER cyangwa se rukaba urw'abaparotesitanti kuko nibo bemera umusaraba.

Abagabo babiri bari kuganira bari imbere y'inzu ya etaje igeretse rimwe ifite amadirisha atandatu, hakabaho n'inzu iri impande yo ku irembo ifite idirisha rimwe, irembo rikaba rifite igiti gikingi gitangira imodoka kiri mu mabara ya oranje n'umukara.

Inyubako iri ahantu hitaruye abaturage, iri ahantu mu misozi, akenshi na kenshi izi zikaba ari inyubako zikunze kuba ari ibigo bya gisirikare cyane, cyangwa se ugasanga ni gereza.

Urusengero runini ruri mu mabara y'umuhondo， rufite urugi rw'icyatsi， rurimo rurakontororwa n'abayobozi， aribo daso n'abandi bayobozi，bareba niba rwujuje ibisabwa，ibi bikaba byaragiyeho muri kiriya gihe gishize， igihe bagendaga bareba ko amadini n'amatorero agiye yuzuza ibisabwa， kugira ngo insengero zabo ziteranirwemo.

Urusengero rwa kiliziya gatolika akaba ari urusengero rukoreshwa n'abagize idini rya catolika, mbere hariho Bikiramariya ari ku rukuta rw'ubururu n'umweru akaba we asa umweru.

Abantu benshi bambaye ingofero z'ubwubatsi z'umuhondo n'abandi bambaye amajiri bari kugenda bakora ikiraro, ikiraro bari gukora ku buryo bugezweho dore ko gifite ibintu bigifashe byinshi bisa nk'icyatsi hakaba n'ibifashe ikiraro nyirizina bisa n'umutuku.

Abayobozi bari kugenda basura ibikorwa remezo, turabona abagabo ndetse n'abagore barimo bagenda mu muhanda bitegereza inzu hakurya kandi biragaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya kovidi kuko aba hafi ya bose bambaye udupfukamunwa, udupfukamunwa akaba ari bumwe mu bwirinzi bukoreshwa hirindwa indwara zandurira mu buhumekero.

Ibitanda bya kijyambere bifite amapine. Ibitanda bikaba byifashishwa kwa muganga cyangwa se ahandi hantu harwarira abantu bagenda bitabwagaho bya buri kanya, ndetse bikaba bifite n'utubati twabyo. Ibitanda byifashishije cyane kuko iyo umuganga agiye gusura umurwayi ashobora kumutwara kuri icyo gitanda kugira ngo bagere kwa muganga k'umuganga ...

Inzu iri mu gipangu kizitije senyenge, izi nzu akenshi na kenshi ziba zaratujwemo abantu baba barahuye n'ibiza, cyangwa se baba bari mu miturire mibi cyangwa se abatishoboye. Izi akaba ari inzu zibamo imiryango urenze umwe, aho ushobora gusanga ari nka fo ini wane abantu b'imiryango ine mu nzu imwe, cyangwa se tu ini wane imiryango ibiri mu nzu imwe.

Inyubako ndende cyane ikorerwamo ubucuruzi, akaba ari inyubako yubatswe neza kuko yubakishijwe ibirahuri, ndetse n'inkuta zisanzwe. Izi nyubako zikunze gukoreshwa cyane cyane, ku biro bikuru cyangwa se ibyiciro bikuru bya kampani runaka cyangwa se ikigo runaka. Kandi na none izi nyubako zikunze gukoreshwa mu masosiyete n'amakampani akomeye cyane.

Inzu basengeramo izwi nk'umusigiti, aho yifashishwa n'abayoboke b'idini ya Isilamu. Umusigiti uketse ufite ibara ry'umweru cyane, ukagira n'akagoma hejuru k'umuhondo.

Buscos coffishop, akaba ari iduka ritanga serivisi zo gutanga icyo kunywa ku bagenzi. Akenshi na kenshi tukaba ari udushop tuba turi ahantu hari umuhanda, aho abagenzi bari mu rugendo, bari mu ngendo zitandukanye bagenda babaza icyo kunywa kikabafasha kugira ngo bamererwe neza m'urugendo barimo gukora.

Umuyobozi w'umugabo ayoboye inama y'abantu benshi higanjemo abagore. Umugore umwe afashe mikoro ari kuvuga ijambo, umugore wambaye ikanzu witeze agatambaro k'umweru.

Itsinda ry’abantu batandatu, ndetse n’uwa karindwi utarimo kugaragara neza. Iri tsinda rikaba ryishimye aho riri, kureba muri camera. Na none, harimo musaza uri guhekenya bike wambaye ingofero y’umukara, ndetse n’umumama wambaye umupira w’umweru, bigaragare ko ari we uyoboye itsinda.

Inzego z'umutekano, hakubiyemo abasirikare ndetse na polisi, inzego z'umutekano w'Igihugu bakaba bari kumwe n'abagabo babiri, n'umugabo umwe ndetse n'umumama umwe, batanga impanuro ku bitabiriye inama.

Abasaza bane bari mu muhango w'ubukwe bari mu mahema y'icyatsi n'ubururu. Umusaza umwe bamuhaye agapfunyika amvelope undi afite mikoro mu ntoki abandi babiri bari kureba uko biri kugenda.

Moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, moto zicagingwa, ni moto zigezweho. Zikaba ziri aho bafatira batiri kugira ngo basimbuzemo batiri nshyashya, kugira ngo babashe kuba bakomeza gukora.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari kujya ku ishuri bambaye impuzankano zitandukanye, bigaragareko bagiye ku bigo bitandukanye bageze aho bafatira imodoka kugira ngo zibageze mu bigo byabo, akaba ari uburyo bukoreshwa mu gihe cy'itangira cyangwa se isozwa ry'amashuri kugira ngo abanyeshuri bagere aho bagiye ku gihe.

Moto ya lifani, ni moto ifite amapine atatu. Iri mu mabara y'ubururu butijimye, ikaba ari moto yifashishwa mu gutwara amata ya compani ,yitwa Shishawumva. Akaba ari amata agenda asakazwa, mu bice bitandukanye by'igihugu.

Amakamyo manini yambukiranya imipaka ahetse imizigo itandukanye ibivuye mu bihugu bimwe ijya mu bindi. Ikamyo ya mbere irimo iragenda mu ruhande rw'iburyo ,indi irimo kuza mu ruhande rw'ibumoso ,irimo kuza mu ruhande rw'ibumoso ifite igitwe cy'icyatsi

Igare ry'amapine abiri ndetse n'ingamiya, akaba ari uburyo bukoreshwa cyangwa se imodoka idateye imbere ikoreshwa cyane cyane mu ahantu h'icyaro , bataratera imbere doreko bayikoresha bari kwimuka akaba ari abagore babiri bahetse ibintu byabo harimo isanduku, hakabamo matola na rondoni, bigaragarako bavuye mu gace bagiye mu kandi.

Urujya n'uruza rw'abantu muri gare baje gutega imodoka zijya mu bice bitandukanye by'igihugu hari abitwikiriye imitaka abandi nta mitaka bafite.

Imodoka irimo amabara y'umutuku. Ni imodoka nini cyane izwi nka hoho cyangwa se abenshi bakaba bayita nka dipine. Akaba ari cyo modoka kinini gifata ibintu, ibitaka cyangwa se andi mabuye cyangwa se indi bitwa kikayivana ahantu bidakenewe kibijyana ahabugenewe.

Imodoka ya dayihatsu itwara imizigo igenda iyivana ahantu ihajyana ahandi. Ni ukuvuga ko itwara ibintu kenshi na kenshi biba bitarashoborwa n'umuntu ku giti cye. Ibi ikaba ijyanye ibitoki ndetse n'ibindi bihingwa nk'ibirayi, na none hari abantu bagenda babipakira ubu bukaba uburyo bukoreshwa n'abakarani b'isoko, kugira ngo bapakire imodoka.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko, turabonamo abantu bicaye ku bicuguti, hari umugabo uhagaze hejuru y'iki gicuguti. Igicuguti akaba ari igikoresho kiba kibajwe mu biti, gifite umupine umwe ndetse n'aho gufata. Cyifashishwa hatwarwa imitwaro imwe n'imwe urugero nk'imifuka y'ibirayi, ndetse n'ibishyimbo, ndetse n'ibindi bintu byose bikenerwa, kugira ngo bivanwe ahantu bijyanwa ahandi.

Abanyonzi cyangwa se abantu batwara abantu ku magare ndetse n'ibintu nk'ababigize umwuga, bakaba bambaye amajIri y'umuhondo yanditseho Panari rimitede, akaba ari abanyonzi bakorera sosiyete runaka kugira ngo biteze imbere.

Abagabo bane, abagabo batatu bafashe amagare yabo bari gusunika, amata ari mu bicuba ndetse hakaba n'umugabo umwe ufite ibisheke ku igare rye, akaba avuye kubirangura abijyanye ahantu hamwe kugira ngo babashe kubigura.

Abaturage batonze umurongo muri gare, bategereje imodoka zibatwara, zibavana, zibajyana ahandi, ndetse hakaba harimo n'umuvoronti ugenda ubafasha, kugira ngo hakomeze gushyirwa mu bikorwa ingamba zo kwirinda icyorezo.

Urujya n'uruza rw'abantu muri gare. Gare yifashishwa aho abantu bashaka imodoka bajyamo bagashaka imodoka zijya mu byerekezo bashaka. Gare ikoreramo amakampani agiye atandukanye. Urugero nka kigali koci, ndetse na za ritiko, ndetse n'andi ma kampani.

Umugabo wambaye ga mu maboko yombi w'umumotari, arimo aragaragaza imoto ya bibogisi, ikaba ari kampani icuruza ibintu bya elegitoronike, n'ibintu bya taransiporo, urugero nk'imodoka, ndetse n'ibintu na canari bogisi.

Ni ubwoko bw'imodoka ya sikaniya ubwoko bukoreshwa kenshi na kenshi hatwarwa ibintu by'imizigo ifite ibiro biremereye bivanwa mu bihugu byambukiranya ibindi bihugu ni ukuvuga ko igenda yambukiranya imipaka.

Imashini irimo gusenya umuhanda n'modoka nini iri kugenda itwara ibyo batari bukoreshe, ndetse n'abantu bafite ibitiyo, bari kugenda bakusanya ibyaseywe n'imashini.

Bisi itwara abantu n'ibintu, iri mu muhanda ifite amabara y'umweru hejuru, ifite ibirahuri by'umukara ndetse hasi cyane ifite akabara k'icyatsi yanditseho ijana na kane siti senta.

Bisi nini yifashishwa mu ngendo zijya mu ntara zitandukanye z'igihugu yitwa litiko. Bisi nini cyane ifite amabara y'icyatsi, umweru iri mu muhanda.

Abantu batwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari, bahagaze kuri arete bategereje abakiriya, nibaza kugira ngo babahe amafaranga, na bo babatware babajyana ahantu hatandukanye.

Kampani itwara abantu n'ibintu nko mu maritiko mu mabara yayo, y'icyatsi umweru ndetse n'umukara akaba ari kampani ijya mu bice byose by'igihugu bigize u Rwanda mu ntara zose, ikaba ari kampani ishimishwa n'abantu benshi, kuko bagendera ku gihe runaka kandi igatangirira kugihe byihuse.

Umumotari w'umukobwa barimo kugenda kuri moto, yambaye ikoti ry'umukara ari kuri moto ya 125 cyangwa se gikumi akaba anafite ikasike z'umutuku bikaba biteye imbere kuko akenshi na kenshi igitsinagore kiri guhatirwa kugenda cyihangira imirimo gikora imirimo imwe n'imwe nk'iyo tuba tuzi ko ari iy'abagabo urugero nk'iyi bagaragaje umumotari.

Abamotari bafite moto z'ubwoko butandukanye, baparitse barimo barumva inama cyangwa se amabwiriza bahabwa n'abayobozi. Baratumbereye cyane, barakurikiye. Ubu ni uburyo bukoreshwa kugira ngo hatambutswe mesaje runaka yagenewe abantu. Abanyarwanda cyangwa se ingeri runaka, babanza kubashyira hamwe, hanyuma bakababwira icyo babateganyirije.

Imodoka nyinshi zikubiyemo dipine ebyiri ndetse n'ikimashini kigenda gisenya umuhanda, aha ngaha hakaba harimo hakorwa, havugururwa umuhanda kugirango ngo ugire ubuziranenge buhamye.

Moto ya rifani cyangwa se akamodoka ka rifani, akaba ari akamodoka gakunze gutwara imizigo itaremereye cyane, imizigo itari myinshi, ariko kakaba ari akamoto aho ugatwaye aba yicaye ahantu harimo intebe imwe y'imbere y'ibintu kaba gatwaye.

Imodoka ya dayihatso ifite ihema hejuru yayo risa nk'ubururu, yikoreye buta miloni, inyuma yaho hariho umuntu wambaye umupira wanditseho makumyabiri na gatatu. Iyi modoka yifashishwa mu rujya n'uruza rw'ibintu, hajyanwa ibintu by'amoko atandukanye.

Umukinnyi wa basiketibolu, wambaye imyenda yo gukina basikete, afashe balo y’umutuku mu ntoki, arimo areba paniye agiye gushyiramo. Akaba yambaye nomero makumyabiri n’enye, yakiniraga ikipe yitwa Demata.

Umukobwa urimo gukina basiketi, aho ari kugenda anyuza basiketi maguru ye. basikete uyu akaba ari umukino kenshi na kenshi ukinwa nabantu bishimisha, kuko ababikora nk'umwuga aba ari bake ugereranyije n'indi mikino, akaba ari umukino ukinwa n'abantu batanu.

Ikipe ikina umukino wo gusiganwa namaguru uzwi nka marato, ni ikipe yambaye impuzankano y'umuhondo, ndetse nomero zadikije amabababa yicyatsi, hakaba n'abambaye impuzankano yicyatsi. Bari mu myitozo mukibuga cyicyatsi, ni uku kuvuga ikibuga cy'umucaca.

Umukinnyi wambaye amajeze y'umuhondo irimo utubara tw'ubururu, wambaye n'inkweto n'amasogisi magufi, ufashe umupira, umupira wifashishwa hari gukina umukino wa hendiboro, ukinwa hifashishijwe amaboko.

Umukobwa witeze agatambaro mu mutwe, wambaye ikanzu y"umutuku, afite agatambaro ku kaboko, afite n'agati bakinisha tenisi.

Amakipe y'abanyeshuri arimo arakina imikino ya handiboro. Umukino wa handiboro ni umukino ukinwa n'abakinnyi barindwi. Batandatu n'umuzamu wa karindwi. Hakaba hariho n'abandi banyeshuri b'abafana bari kugenda bafana. Amakipe ari gukina ni ayambaye ikijuju ndetse n'indi kipe yambaye umukara.

Abana bari gusiganwa bakoresheje amagare, aho abana uko bigaragara bari mu myitozo kandi bakaba bafite intego yo kubizamura bakabigira kinyamwuga, bafite ibikoresho byose byemewe, ingofero zifashishwa kugira ngo iyo umuntu akoze agisida atagwa agakomereka cyane, ndetse n'amagare yabugenewe afite umubyimba mutoya.

Umukino wa Hendibolo ni umukino ukinwa e n'amakipe abiri, arimo abantu barindwi barindwi, ni ukuvuga ngo umunyezamu n'abakinnyi batandatu. Ikipe imwe yambaye ikijuju cyangwa se yitaye igitaka, mu gihe indi kipe yambaye umutuku.

Umwana uri ku igare akaba ari umwana kwitoza umukino wo gusiganwa ku magare, kuko abikora kinyamwuga. Afite ingofero ibigaragaza, akagira n'imyambarire ibigaragaza, akaba ari kugendera no ku igare ry'ababigize umwuga.

Umukino wa futuboro urimo gukinwa n'abagore, ni abagore barimo gukina umukino wa futuboro, aho ikipe imwe yambaye amabara arimo ibendera ry'u Rwanda, akaba ari icyatsi, umuhondo, ndetse na nimero zandikishijwe ibara ry'ubururu, indi kipe ikaba yambaye umukara ndetse n'imipira y'umweru.

Ikipe ikina umukino w'intoki wa basiketiboro, akaba ari ikipe yambara impuzankano y'amakabutura y'umukara hasi, bakambara inkweto z'umukara zifite akabara k'umweru hasi. Ndetse bakaba bambara n'imipira y'ubururu hejuru, irimo amagambo y'umuhondo. Bakaba bari more abadunda baro, bari kumwe n'umutoza wabo bigaraga ko bari mu myitozo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri , akaba yambaye iniforome cyangwa se umwenda akinisha w'icyatsi ndetse n'umuhondo, akaba asiganwa akoresheje amaguru , uyu mukobwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri , kugira ngo atangire isiganwa rye ameze neza mu ngingo.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ubururu yanditseho y'umuhondo, ndetse bari kwifotozanya n'abanyamakuru na bo bambaye impuzankano y'ubururu n'amagambo y'umuhodo yanditseho Rwanda dirimuzi. Bakaba bari kwifotozanya amasengeri yanditseho olusitarizi.

Umukino wa vole ukinwa n'abafite ubumuga bwo kutagenda. Akaba ari umukino ukinwa hifashishijwe amaboko nk'ibisanzwe akaba ari ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo gukina n'ikipe y'igihugu y'abarabu bakaba bambaye teni iri mu mabara y'ibedera ry'igihugu n'umurongo w'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ikipe y'igisonga, ikipe ikina umukino wa hendiboro bakaba ari abakinnyi bambaye amajezi y'umuhondo ndetse n'ubururu, n'umutoza wabambaye umuhondo ndetse n'icyatsi, ndetse n'abanyezamu babo uko ari bane. Hendiboro ni umukino ukinwa n'abantu barindwi, aho uwa karindwi aba ari umunyezamu.

Abakinnyi bari guserebula, bari ku gati ko muri kona y'umupira w'amaguru. Bambaye jezi z'ubururu ziriho ikibara cyanditseho sikoro kunda, harimo umukinnyi umwe wambaye umupira w'umuhondo hejuru ufite amaboko y'umweru.

Umukinnyi ugiye gutera umupira ariko uri kureba ku ruhande ntabwo ari kureba umupira. Yambaye imyenda y'umweru irimo utuntu twa oranje inyuma ye hari umusifuzi wambaye oranje hejuru, n'ikabutura y'umukara.

Pisine iri ahantu baruhukira ,ndetse hakaba hari n'intebe iruhande rwayo, akenshi na kenshi n'ahantu haruhukirwa n'abantu baba bifite kugira ngo baruhuke basige ibitekerezo byo mu kazi. Ahubwo biyiteho ubwabo boga mu mazi menshi, cyangwa se bakaruhukira iruhande rwayo.

Pisine iteyemo irangi ry'ubururu， ndetse iruhande rwayo hakaba hari amakaro， hejuru akaba ari ibiti. Akaba ari ahantu hakoreshwa， kugira ngo abantu baruhuke siteresi，babinyujije mu koga.

Sitade Amahoro ivuguruye, ikaba ari sitade iri mu mabendera y'igihugu ni ukuvuga icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, ikaba ifite sikirini nini cyane, ikaba ifite n'ikibuga kigaragiwe n'imirongo y'umweru, iri ku gitaka cy'umutuku.

Umukino wahuje amakipe abiri :Aperi na Reyo, umukino witabiriwe n'abantu benshi cyane! Bari muri sitade iri kwamamaza Visiti Rwanda ndetse harimo n'abakinnyi babiri bagiye kugera ku mupira, umwe w'ikipe ya Aperi n'undi w'kipe ya Reyo.

Abagabo babiri barimo kumurika ijezi yanditseho elideka, nomero makumyabiri n'itanu, y'umuhondo, umugabo umwe w'ibumoso afashe umupira balo mu ntoki. Abo bagabo bafite ibikoresho byifashishwa n'abantu mu gihe bari kuganira ibikorwa byabo.

Abakinnyi bari gukina umupira, umukinnyi umwe ari hagati y'abakinnyi babiri, ni we ufite umupira. Umukinnyi uri iburyo yambaye jezi z'umutuku, uw'ibumoso yambaye jezi za oranje. Inyuma ya bo hariho umukinnyi wambaye nk'ufite ibisa nk'ufite umupira, ariko utagaragara neza.

Umukinnyi w'u Rwanda wambaye jeze yanditseho makumyabiri na kane, afite tatuwaje ku rutugu, afite na balo y'umutuku irimo n'uturongo tw'umweru n'akarongo gatoya k'umukara, afite ibisuko by'imisatsi iteze inyuma.

Umukobwa uri gukina tenisi ufite ijipo y'umutuku n'isengeri y'umuhondo uzamuye ibiganza. Umukino wa tenisi ari gukina ni umukino ukundwa gukina n'abantu bakeya kuko ukinwa n'abantu babiri gusa.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo bakora siporo bakaba ari gahunda ijya iba mu gihe runaka cyane cyane ku cyumweru kugira ngo hakorwe siporo abantu binanure. Akaba ari gahunda kugira ngo abantu batagerwaho n'indwara ziterwa no kudakora siporo urugero nka diyabete, umuvuduko ndetse n'izindi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yakaki hasi n'ishati y'umweru, hejuru ndetse n'abandi banyeshuri bicaye hasi bambaye imipira y'ubururu, bafite na baro za basiketi mu maboko yabo bakaba barimo gutaha ikibuga cyiza gikozwe neza cy'ubururu hasi ikibuga kiri gutahwa cya basiketi.

Ikibuga cya basiketi cyifashishwa mu myitozo, gifite amabara y'icyatsi cyererutse, y'icyatsi cyijimye, kiri mu ishyamba imbere y'inzu y' amabati yubakishijwe amabuye.

Umukobwa wambaye ikabutura y'umweru, agapira k'umweru, ndetse n'ingofero y'umweru. Arimo arakina tenisi, tenisi arimo arayikina. Tenisi ni umukino ukinwa n'abantu babiri, aho baba bafite agatenesi ndetse n'akantu ko kuyikubitisha.

Umuronko uba utandukanyije kaburimbo ndetse n'inzira y'abagenzi, n'umuronko usoza kaburimbo. Umuronko usoza inzira y'abagenzi akaba ari umweru n'umukara ,noneho usoza kaburimbo akaba ari umweru wonyine.

Abanyonzi babiri barimo gutwara amagare afite imisego y'umutuku. Abanyonzi bakaba bakora cyane cyane ahantu hatari imisozi, kuko badashobora kuzamuka umusozi bahetse umugenzi. Nanone bifashishwa batwara ibintu, uru rugero nk'ibivuye guhahwa cyangwa se ibijyanywe ku isoko.